Ku ishuri ribanza rya Nyamugari, aho abana bari imbere y'amashuri aho bigira, bakoze uruziga barimo bakina imikino ibafasha kwiga no gukangura ubwonko, kugira ngo bagire ubushobozi bwo gutekereza vuba ku buryo bubangutse.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bizwi nka nursary mu ndimi z'amahanga, bakaba bicaye hamwe bafite ameza hagati yabo, barimo biga basubiramo amasomo bahawe n'abarimu bashinzwe kubarera kugira ngo babashe kugira ubumenyi.

Mu ishuri ahatangirwa ubumenyi kubantu bose hari abana batatu bahagaze, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho kubara kuva kuri rimwe kugera kuri mirongo ine nabo buri muntu akaba afite igikoresho ari kwifashisha abara kugira ngo abashe kumenya iyo mibare neza.

Umugore wunamye ari kumwe n'abana benshi batandukanye bahagaze abandi bunamye abandi basutamye, arimo abaganiriza abasobanurira abigisha anabarera neza kugira ngo bazakurane ubupfura kandi bafite n'ikinyabupfura, bubaha buri muntu wese na bo ubwabo biyubahisha muri sosiyete batuyemo.

Mu ishuri ribanza, aho abanyeshuri bicaye mu ishuri, bakaba bakurikiye mwarimu uhagaze imbere yabo wambaye itaburiya y'umweru, arimo abigisha, abasobanurira amasomo kugira ngo bagire ubumenyi.

Ishuri ry'incuke ririmo abana batoya barimo biga bigishwa n'umugore uhagaze imbere yabo, arimo yandika hejuru ku kibaho, kugira ngo abashe kubasobanurira neza ku buryo bwumvikana kandi na bo babireba banakurikire.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka itanu n'itatu, bicaye hamwe ku mukeka aho barimo batozwa uburere bwiza n'ikinyabupfura binyuze mu dukino kugira ngo babashe kubyumva no kubisobanukirwa.

Abana bicaye ku mukeka bakoze uruziga hagati yabo hicayemo umubyeyi, arimo abaganiriza abaha impanuro kugira ngo bazabashe gukura bameze neza bafite uburere abakoresha udukino tugiye dutandukanye.

Ikigo cy'incuke kirimo abana benshi b'incuke, bigaragara ko aricyo kigo cyigisha abana ndetse hakaba harimo n'abarezi babo babitaho mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bakure bazi ubwenge.

Abana batoya benshi bahagaze ku murongo bari kumwe n'umugore urimo hagati yabo wambaye ikarita mu gatuza, arimo abigisha abasobanurira ahagararanye n'umugabo nawe uri kureba inyuma ye basa nk'ababisikanye ariko bose bari hagati bigisha abana bamanitse amaboko bari kujya babakoresha udukino kugira ngo babigishe binyuze muri iyo myidagaduro.

Ababyeyi babiri bita ku bana batoya bizwi nk'irerero, bari gutoza abana imyitozo ngororamubiri aho bafite ikibuga barimo gukoreramo.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano isa, bicaye imbere y'ameza buri mwana imbere hateretse agakarito, bose bari kwitegereza utwo dukarito bizihiwe.

Ameza ateretse hagati y'abana bari kwiga kubara, abana bane kandi bakaba bambaye impuzankano ifite ibara ry'icyatsi kibisi hakaba hateretse akabogisi imbere yabo bifashisha mu kwiga imibare.

Kandagira ukarabe ikoresheje indobo ifite n'akabase munsi iriho abagore babiri, umwe ari gukarabya abana bari kumurongo, umwe umwe agiye ahagaze inyuma y'undi kugira ngo babatoze kugira isuku hakiri kare, batazandura indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bicaye imbere ya mudasobwa biragaragara ko barimo kwiga, ni abanyeshuri bashushanyije imbonerahamwe muri mudasobwa.

Abana batoya bari ku ishuri bicaye hamwe mu itsinda, aho bahererwa ubumenyi bubafasha kwiga ndetse no kujijuka, bakaba bafite ikayi bose barimo barebamo bihugura, abandi bakaba nabo bari ku ruhande bakoze iryabo tsinda, kandi bose bakaba bambaye iniforume.

Inyubako ngari ndetse ni ebyiri, zikaba zifite ibirahuri, hari ikigega gifata amazi aziturukaho zombi, ndetse hari n'umwana ufite ikidurugumu uhagaze imbere y'izo nyubako.

Igikuta gishushanyijeho abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ari yo azwi nka nasari, barimo bagenda bajya ku ishuri, umwe ahetse igikapu undi afashe ikarita mu ntoki, kugira ngo abantu bose bajye bamenya ko aho hantu ari cyo kintu kihakorerwa.

Intebe ebyiri ziri mu ishuri ziri kumwe n'injerekani y'amazi n'ameza iruhande rwazo, zifashishwa bazicaraho bari kwiga, abandi bari gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo birinde guhagarara umwanya munini bitabaviramo no kurwara umugongo.

Ku ishuri ahatangirwa ubumenyi ku bantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo babashe kumenya no gusobanukirwa, aho ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rikinze risize n'amarange kandi rikaba rifite ibirahuri mu madirishya, bigiye biriho udupapuro.

Ikigo cy'amashuri gifunze umuryango w'aho abanyeshuri binjirira bakaba, bahagaze inyuma, abana batoya babuze uburyo binjira, bamwe bahetse ibikapu abandi bafashe ku rugi, bagerageza kwinjira ariko ntibikunde.

Icyumba k'ishuri kirimo intebe ndetse kikabamo n'ikibaho ku rukuta, icyo kibaho ni umukara ndetse n'intebe ni zimwe abanyeshuri bicaraho bafite aho bandika.

Ishuri ririmo intebe ziticayeho abanyeshuri batari baza kwiga, imbere hari ikibaho cyanditseho inyuguti z'umukara, zandikishije icoka, aho bagikoresha bagira ngo basobanurire abanyeshuri ibintu, nabo babireba babashe kubyumva neza kurutaho.

Abana b'abanyeshuri, abahungu n'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka icumi gusubiza hasi, bicaye imbere y'intebe, barambuye ibitabo bari gusoma bashishikaye, bigaragara ko ari amasomo basanzwe bakurikirana.

Ikibaho gifite ibara ry'umukara cyometse ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye, gikoteje sima cyanditseho inyajwi kuva kuri A kugera kuri W kandi zandikishije icoka.

Ikibaho kiri mu ishuri cyanditseho imibare myinshi gifite ibara ry'umukara kifashishwa mu kwigisha no gusobanura ibintu ku buryo busobanutse kugira ngo abasobanurirwa ndetse n'abigishwa babashe gusobanukirwa no kumenya neza bige banareba babashe kubifata vuba.

Mu ishuri ahashushanyije igice cy'umuntu, bari kwiga ibice bigiye bigize umubiri w'umuntu nk'amatwi, umutwe, amaso, igihimba ndetse n'amaboko, bikaba bifasha abana kwimenya no gusobanukirwa ibyerekeye imibiri yabo, ndetse n'abanyeshuri bakiga bakajijuka bakamenya ibyerekeye ubuzima bwa buri munsi.

Abana b'abanyeshuri batoya bari mu kigero kimwe, nk'ik'imyaka umunani na cumi n'itatu, bari mu kibuga imbere aho bigira, bakaba bahetse ibikapu bose bahagaze barimo bakina.

Umwarimu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ushyize amaboko inyuma, ufite imisatsi y'ibisuko, wambaye inkweto za bodaboda ahagaze imbere y'abanyeshuri bahagaze, abana bato bari mu kigero kimwe bari imbere y'aho bigira aho bahererwa ubumenyi, ikibuga bahagazemo kikaba kirimo utwatsi dutoya.

Abana batoya b'abanyeshuri bari mu muhanda udakoze neza w'ibitaka bagana ku ishuri bahetse ibikapu, bambaye iniforume, amakabutura ndetse n'amashati y'ubururu kandi bakaba bambaye inkweto zifunguye kubera ko arizo bafitiye ubushobozi.

Umukozi wicaye mu biro, ufite mudasobwa arimo ayirebamo, imbere ye hari n'ikayi n'ikaramu, hari n'ikote kandi akaba afitemo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye na byo bigiye bicometse ku muriro, byose byifashishwa mu gutanga serivisi batanga.

Ikigo cy'amashuri kitarimo sima, harimo amatafari ashashemo biragaragara ko ari ikigo kitateye imbere ndetse kandi bigaragara ko abanyeshuri nabo bose batambaye impuzankano.

Mu ishuri rya pirimeri aho abanyeshuri bicaye mu ishuri aho bigira mu ntebe zabo, bakaba bategereje ko mwarimu aza ngo abigishe.

Ku ishuri rya segonderi aho abanyeshuri bari mu gihe cyo kuruhuka, bakaba bari hanze ku kibuga aho bahurira bakidagadura, bagakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kuruhuka mu mutwe basubire mu ishuri bameze neza.

Ku ishuri aho abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka primaire mu ndimi z'amahanga, hakaba harimo umwana w'umuhungu wikoreye akabase karimo ibiryo akahunga n'ibishyimbo, kuko ari amasaha yo kurya, kugira ngo abana babashe kwiga neza no gufata mu ishuri ibyo bahabwa n'abarimu babigisha.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza azwi nka primaire, bicaye mu ntebe z'aho bigira hose barimo bakurikiye bareba imbere kandi bambaye n'iniforume kugira ngo babashe kwiga neza, bahabwe ubumenyi buzabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umugore wicaranye n'abana mu byatsi ahantu haterekereye neza arimo abigisha inyuma ye hateretse igikapu n'urukweto n'ikayi, buri mwana agiye afite igitabo ari gusoma bose bunamye kugirango ngo babashe kumenya ubwenge bakiri batoya bazakure bajijutse.

Abantu bahagaze bari gusuhuzanya, biganjemo abagore n'abagabo, inyuma yabo haparitse imodoka ubona ko bahuje urugwiro kandi bishimiranye nk'abantu basanzwe basabana kandi baziranye kuri byinshi mu buzima bwabo.

Abana bahagaze ku murongo usa nkaho ufunze ariko bafite ibitabo mu ntoki bitandukanye, bari kumwe n'umugore w'umubyeyi arimo abigisha abasobanurira, abatoza indangagaciro zabo kugira ngo bakure bafite ikinyabupfura n'uburere bwiza.

Ikigo k'ishuri aho abana bajya kwiga kugira ngo babone ubumenyi kandi babashe kujijuka, hari abana bahagaze begamiye igikuta bambaye imyenda y'ishuri irimo ijipo zakaki, kandi n'amashati y'ubururu imbere yabo hari ikibuga aho bajya kwidagadurira.

Abana batoya biga mu mashuri abanza azwi nka pirimeri mu ndimi z'amahanga, bakaba bicaye hamwe hagati yabo hari ameza barimo bakora imyitozo bahawe na mwarimu wabo ubigisha, kugira ngo babashe kubona amanota batsinde neza bazimuke, kandi barangize amashuri yabo hakiri kare.

Ku ishuri mu masaha yo kurya aho abanyeshuri bateruye utubase turimo umuceri n'ibishyimbo, barimo barura babigabana kugira ngo babirye nka gahunda yazanywe na leta yo kurira ku ishuri, kugira ngo abanyeshuri bajye babasha kwiga neza no gukurikira amasomo yabo badafite inzara.

Mu ishuri ahari ibitabo byinshi n'intebe abanyeshuri bicaraho n'utubati kugira ngo bajye babasha kwiga neza batananiwe kandi babashe no gukurikira, bafate, banamenye neza amasomo bahabwa n'abarezi babo.

Mu ishuri aho abanyeshuri bajya kugira ngo bahabwe ubumenyi n'abarezi, umwarimu akaba ahagaze imbere ku kibaho yamanitse akaboko gafite ingwa arimo yandika, asobanura ibyerekeye amasomo y'umunsi.

Ku ishuri ku kigo cya Secondaire aho abanyeshuri basohowe mu mashuri bigiramo bakaba bicaye mu kibuga aho basanzwe bahurira bari guhabwa ikiganiro n'abayobozi babo bafatanyije n'inzego z'umutekano zizwi nka "Dasso".

Muri gare ahaparika imodoka zitwara abantu hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, abagenzi barimo bashaka gutega buri umwe umwe afite aho agiye, higanjemo abanyeshuri bahetse ibikapu bagiye kwiga kugira ngo bazabashe kwiteza imbere.

Abanyeshuri batatu b'abahungu bambaye inkweto zifunze n'amapantaro ya kaki n'amashati y'umweru, bari mu muhanda barimo bagenda bose bari ku murongo bateganye, kandi amaboko yabo arimo agenda akora ibimenyetso.

Icyapa kiranga ikigo cy'ishuri cya segonderi cyitwa ekore notere dame dera porovidanse cyo ku Karubanda mu ntara y'amajyepfo, gifasha abakobwa mu kwiga kandi kiri ku muhanda, hari gutambuka imodoka n'umugenzi.

Imodoka itwara abagenzi yitwa Volcano, ikaba igiye gutwara abanyeshuri uwa mbere ari mu muryango arimo ayurira, bagira ngo ibajyane aho bigira bajye ku masomo yabo bavuye mu kiruhuko, kandi igihe cyo gusubira ku ishuri kikaba kigeze.

Abantu bane harimo abagabo babiri n'abagore babiri, bari ku rugi bigaragara ko bari gukomanga, cyangwa bakaba ari umuntu bategereje urimo imbere mu nzu, bahagaze bareba urugi.

Ikigo cy'amashuri cya segonderi gitanga ubumenyi mu masomo agiye atandukanye higanjemo aya siyansi, giherereye mu Karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo, kitwa gupe gurupe sikorere ofosiyeri do Butare, kandi hakaba hahagaze umusekirite n'abandi bagore babiri mu marembo yacyo, barimo baganira.

Korari igizwe n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye iniforume, bahagaze ku kibuga, imbere yabo hateretse indangururamajwi zitwa amabafure kandi inyuma yaho ari aho bakinira umupira wa basket, bafite na microhone mu ntoki.

Abanyeshuri b'abakobwa bahagaze bafashe bandelore yanditseho IPRC Huye iherereye mu majyepfo muri aka karere, barimo bizihiza imyaka makumyabiri yo kwibohora kugira ngo babashe no kukimenyekanisha n'abandi bantu batakizi bage bakigana baze kuhafatira ubumenyi buhatangwa.

Ikigo cy'ishuri cyubatse neza kigiye cyubatse mu buryo bwa etage kiriho abanyeshuri bambaye iniforume barimo mu bice bitandukanye bamwe bagenda abandi bahagaze imbere yacyo hari ikibuga bakiniraho basket kandi kiriho ibyuma bajugunyamo balo kugira ngo hatsindwe igitego.

Ikigo cy'amashuri kigaragaramo abanyeshuri benshi ndetse bicaye barimo gutega amatwi ubagezaho ikiganiro, biragaragara ko ari umuntu ushinzwe ibijyanye n'ubuzima ari kubaganiriza ku buzima bwabo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri aho bari kwiga buri mwana akaba yicaye ku ntebe ya wenyine afite urupapuro n'ikaramu ari gukora ibazwa yahawe na mwarimu umwigisha mu isomo bategetswe gusubiza.

Abanyeshuri ba segonderi bicaye mu cyumba mberabyombi, aho bakurikiye inama n'ibiganiro barimo bahabwa n'abayobozi babo, bakaba abenshi bambaye imipira y'ishuri, abandi bambaye amashati gusa.

Inzu irimo ikibaho, abanyeshuri bandikaho, hakaba intebe irimo amarati, ndetse n'ikarito irimo ibitabo. Iruhande rw'iyo ntebe, hari udusanduku tubiri dufunzeho n'ingufuri.

Amashuri ya segonderi yubatse neza ku buryo bwa etaje aho inzu iba igiye yubatse hejuru y'indi, imbere yayo hari igiti cy'umusebeya ku mbuga kandi ikaba ari iy'umukungugu, idakoze neza, nta mapave, ikaba ifite urugo.

Inyubako ndende bigaragara ko ari ikigo runaka, kirimo ibiti byinshi bitandukanye, hakabamo n'ibyapa, hakaba hari indabyo z'amoko yose atandukanye.

Mu ishuri aho abanyeshuri baherwa ubumenyi, barimo biga bicaye ku ntebe, mwarimu wabo arimo ababaza, aho buri munyeshuri afashe urupapuro ruriho ibibazo n'ikaramu, kugira ngo asubize ibyo yabajijwe.

Inzu zubatse neza ahantu ku muhanda ariko w'igitaka, zikaba ziri mu biti bikuru bishinzwe kurwanya isuri no gufata umuyaga kandi no gutanga umwuka mwiza wo guhumeka kugira ngo abantu babashe kubaho ubuzima bwiza.

Abanyeshuri b'abahungu bahagaze hamwe ku murongo uko ari bane bafite za vuvuuzera mu kanwa barimo bazihuhamo kugira ngo zitange umwuka zivuze amajwi, inyuma yabo hari bagenzi babo bari mu bikorwa bigiye bitandukanye barimo bikinagura abandi batembera, kandi hafi aho hakaba hari amashuri yabo bigiramo aho bahererwa ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri ya segonderi cyubatse neza imbere yacyo hari indabyo, imiryango ikaba ifunguye, urugi hahagaze umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari umukobwa ugiye kwinjira mu ishuri, mu kibuga harimo umugore wambaye imyenda isa, agenda.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kwiga, bose bambaye impuzankano z'ubururu ndetse bakaba bambaye n'amakabutura y'umukara, bafite amakayi mu ntoki, iruhande rwabo hari ibirahuri ndetse hari umwarimu uri kubigisha.

Abanyeshuri ba segonderi bicaye ku ntebe y'urubaho bose ku murongo, bambaye imyenda y'ishuri y'umweru n'amapantaro y'ubururu, bafite impapuro mu ntoki barimo bakora ibazwa bahawe n'umwarimu ubigisha.

Icyapa cyometse ku marembo y'ikigo cya pirimeri cyanditseho: ekore materineri sente josefu Rwesero, gishushanyijeho abana b'abanyeshuri bigaragaza ko aho ngaho ahari aho abo bana bahererwa ubumenyi butandukanye.

Abana b'abanyeshuri, abakobwa n'abahungu, batonze umurongo hamwe mu kibuga hagati, imbere yabo hari umuntu wambaye umupira w'umutuku uciye amaboko, bigaragara ko ari kubaha amabwiriza runaka.

Abanyeshuri bicaye hamwe mu kibuga imbere y'amashuri bigiramo aho bahererwa ubumenyi butandukanye, barimo bahabwa ikiganiro n'umurezi wabo abahagaze imbere, yamanitse akaboko arimo abasobanurira ku ngingo barimo baganiraho.

Ikigo cy'amashuri kimwe kigaragara ko ari icya kera kigifite amategura ndetse kikaba gifite amarembo ariho urugi rw'ubururu, hakaba n'ubusitani iruhande rwayo hateyeho indabyo.

Ibiti biteye bikuru bitanga umwuka mwiza wo guhumeka bizengurutse ikigo cy'amashuri cyubatse neza gisakaje amabati, imbere yacyo hari umunyeshuri, gifite n'amajaride meza arimo indabyo zitandukanye kandi hanze hakaba hateye idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako yubatse neza ifite urukuta rw'amatafari ahiye na yo ikaba yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya arimo ibirahure, inyuma yayo hakaba hateye ibiti bikuru bikuze neza bifite amashami kandi ihande rwabyo hahagaze umugore, inyuma ye hari umunyonzi uri ku igare.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye iniforume, amapantaro ya kaki n'amashati y'umweru, imbere yabo hari za mudasobwa barimo bitegereza amashusho kandi ubona ko bakurikiye bose bashaka kumenya no gufata ibyo bari guhabwa na mwarimu.

Mu ishuri ahatangirwa ubumenyi mu cyumba aho hicaye abanyeshuri batandukanye b'abakobwa n'abahungu, bambaye inkweto zifunze bose n'amashati y'ishuri y'umweru n'amajipo n'amapantaro bya kaki bari gukora ibazwa, buri mwana afite urupapuro imbere ye n'ikaramu ari kwandika.

Ikigo cyiza cyane gifite amarembo agezweho, hari umunyeshuri uhagaze inyuma yacyo ndetse n'umubyeyi wayo bigaragara ko amuzanye kucyigamo.

Inzu nini yubatse, isakaje amategura, isize irangi kandi ifite igipangu cyubakishije urukuta rw'amabuye rurimo irangi ry'umweru, hepfo ku muhanda hari abana b'abanyeshuri babiri b'abakobwa barimo bagenda, umwe ahetse igikapu mu mugongo.

Abanyeshuri benshi bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko bategereje imodoka, bose bafite mari ijyamo imyambaro yabo n'ibindi bikoresho ndetse bakaba bafite n'ibikapu, bigaragara ko bagiye kwiga mu kigo babamo.

Ikigo cya segonderi gifite abanyeshuri benshi bakuwe mu mashuri bigiramo, bakaba bicaye hanze mu kibuga kirimo ibyatsi bikeya kandi bigufiya, aho bambaye amashati y'umweru n'amajipo n'amapantaro by'umukara, imbere yabo hakaba hari umuyobozi wabo arimo abaha, ikiganiro n'amabwiriza agenga ikigo.

Mu ishuri abanyeshuri bari gukora ikizamini, aho kuri buri munyeshuri afite urupapuro ndetse n'imashini imufasha mu guteranya imibare, harimo umwarimu wambaye ikositimu agenda akusanya ibizamini by'abanyeshuri.

Mu kigo cy'ishuri ahatangirwa ubumenyi aho abanyeshuri basohotse bakaba bari ku murongo aho bahurira hose kugira ngo bahabwe amatangazo. Bakaba bambaye amashati y'umweru n'amajipo, n'amapantaro byo mu ibara rya kaki n'inkweto zifunze n'amasogisi y'umweru. Abayobozi babo bakaba babahagaze imbere barimo babaha ikiganiro n'amatangazo bagomba kugenderaho.

Amagufwa atariho umubiri izwi ku izina ry'igikanka, rikaba riri muri laboratwari aho babyifashisha bari kwiga ku bice bigize umuntu banasuzuma indwara zikunda kwandurira mu magufwa.

Inzu y'isomero ahari ibitabo byinshi by'amoko agiye atandukanye, higanjemo iby'inkuru, harimo umugabo arimo asoma acagura igitabo cyo gucyura kugira ngo ajye akomeza yunguke ubumenyi buri mu byanditse.

Ku ishuri aho abanyeshuri bose basohowe bari hanze aho batonze umurongo, umwe umwe ateganye n'undi, imbere yabo hakaba hari umwarimu uhahagaze ufite telefone mu ntoki, inyuma yaho hakaba hari ikigega gifite ibara ry'umukara kijyamo amazi y'imvura.

Ishuri ahari abanyeshuri n'amashuri bigiramo, bakaba bari mu kibuga cya basketball kizwi nk'umupira w'amaboko, bambaye imyenda ya siporo barimo bakina, iruhande rwabo hari abagabo babiri bifashe ku mutwe.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza gisize amarangi y'ubwoko bugiye butandukanye, abanyeshuri bari ku kibuga barimo bagenda baturuka ahakinirwa umupira w'amaboko uzwi nka volley ball, hagati mu kibuga harimo ibendera ry'igihugu.

Abanyeshuri biga amasomo y'imyuga bari muri laboratoire mu nyubako nini yabugenewe yo gushyira mu bikorwa ibyo bize mu buryo bwa theorie, cyangwa se bw'amagambo bareba niba bashobora no kubikora bigatanga umusaruro.

Ikibuga mpuzamahanga cya Stade ya Huye, aho harimo abafana bicaye ku ntebe kandi abakinnyi bakaba bari mu kibuga, aho bakorera imyitozo ngororamubiri n'amarushanwa agiye atandukanye, bahatanira ibikombe.

Ububiko bw'ibitabo bigaragara ko bimazemo igihe, bigiye bibitse mu byiciro bigiye bitandukanye. Imbere yaho hari intebe bicaraho irambitseho itaburiye y'umweru.

Abanyeshuri bicaye ku ishuri aho bari mu nzu mberabyombi aho bakorera inama, barimo bahabwa ikiganiro n'umurezi wabo bose bambaye imyenda y'ishuri, amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, inkweto zifunze n'amasogisi y'umweru.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kwiga, aho bambaye impuzankano zabugenewe. Ku kibaho hariho ibyo barimo kwandika, ndetse bamwe bari no kwiganirira.

Abanyeshuri bakuru bicaye inyuma y'amashuri, ndetse bari kuganirizwa n'umurezi wabo cyangwa umuyobozi w'icyo kigo, aho bose bateze amatwi, bafite impapuro mu ntoki.

Mu ishuri ahatangirwa ubumenyi kugira ngo umuntu abashe kubaho ajijutse kandi yigira, harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe ku murongo, bafite impapuro n'amakayi, imbere yabo hari mwarimu wambaye neza ikoti n'amataratara kandi hari n'umuntu uri kubafata amashusho.

Amashuri yubatse ateye ibiti hanze ku mbuga kandi ifite aho gukinira, ikaba agiye akinguye, buri muryango ukinguye, asakaje amabati y'umweru, akaba na yo ubwayo ari ku murongo, aho abanyeshuri bajya kugira ngo bahabwe ubumenyi n'abarezi bangajwe na Leta.

Ku kibuga cy'umupira ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo abakinnyi bari gukina inyuma yaho hari parikingi, aho imodoka zihagarara hari imodoka zigera kuri enye, imbere yazo hari abantu n'abanyeshuri n'abandi bafite za mare zibikwamo imyenda n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ku ishuri ahari abanyeshuri n'amashuri bigiramo aho bahererwa ubumenyi bw'amasomo agiye atandukanye, bari mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, bose bahuriye ku kibuga ahakinirwa umupira w'amaboko uzwi nka volleyball, kandi bakaba bari ku murongo barimo basuhuzanya kugira ngo umukino utangire.

Ku ishuri ahatangirwa ubumenyi, hakaba hari ibyumba bigiye bitandukanye byinshi biri ku murongo, aho buri wese ajya kugira ngo ahabwe ubumenyi mu byerekeye ubuzima n'isi muri rusange, azabashe kwiteza imbere, hakaba hari umunyeshuri uhagaze, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro kandi na we arimo, ategereje ko ajya kwiga.

Abanyeshuri bari mu muhanda biruka bakora imyitozo ngororamubiri kandi benshi, bamwe bashyize amaboko hejuru, bari kumwe n'umurezi wabo, ari we uri kubafasha kugira ngo babashe kuyikora neza.

Ku ishuri mu masaha yo kurya aho umwana wumunyeshuri wambaye iniforume, akaba yambaye n'inkweto za bodaboda, ateruye ikivite irimo umuceri wonyine utariho ibishyimbo kuko agiye kurya kugira ngo abashe kwiga ameze neza.

Abanyeshuri bicaye hamwe hanze ku mbuga mu twatsi, aho bari guhabwa amatangazo n'amabwiriza n'umuyobozi ushinzwe kubarera, kugira ngo bamenye uko bitwara n'uko bitwararika ku kigo bigaho, ndetse no hanze muri sosiyete aho batuye.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa gusa, bicaye imbere y'ameza, umwe arahagurutse ari kwarura ibiryo ashyira kuri buri sahani, imbere y'iyo sahani hagiye harambitse umuneke umwe umwe.

Imodoka nziza iparitse kugira ikuremo umugenzi, ikaba yafunguye umuryango wayo. Inyuma yayo hari umugore uhagaze, imbere ye hari umugabo uhetse igikapu arimo agenda. Hakurya yabo hari amazu yubatse neza, asakaje amabati kandi afite urukuta.

Ku ishuri mu kigo cya segonderi aho abanyeshuri bose bavanywe aho bigira, bakaba bicaye hanze ku kibuga bari kumwe n'abarezi babo barimo bababwira amatangazo, banabaha impanuro n'impuguro kugira ngo babashe kwiga neza.

Ku ishuri ryo mu mashuri yisumbuye ya segonderi, ahari abanyeshuri bahagaze ku murongo, bose bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amapantaro n'amajipo bya kaki, bari guhabwa amatangazo n'umuyobozi wabo kugira ngo bamenye uko bitwara ku ishuri.

Abanyeshuri biganjemo abakobwa n'abasore bari mu muhanda bagana ku ishuri kugira ngo bajye guhabwa ubumenyi buzabafasha mu kwiteza imbere ndetse no kujijuka, bakaba bambaye imyenda y'ishuri amashati ndetse n'amajipo n'amapantaro, hasi ari ubururu hejuru ari umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya segonderi bambaye imyenda ya iniforome bicaye hasi barimo baganirizwa abandi bahagaze bahabwa ikiganiro n'inzego z'umutekano, umupolisi uhuje ibiganza wambaye n'ingofero byose akaba ari imyenda y'akazi.

Ku kigo cy'amashuri cya segonderi, aho abanyeshuri bahiga basohowe bakicazwa hanze mu byatsi kugira ngo bahabwe ikiganiro n'inzego z'umutekano polisi n'abadaso bahari barimo babaganiriza babahugura bafatanyije n'abarezi babarera bo ku icyo kigo.

Abanyeshuri abakobwa n'abahungu bambaye iniforume amashati y'umweru n'amajipo n'ipantaro bya kaki, hamwe n'inkweto zifunze, bamwe bari mu muryango abandi bahagaze ku ntebe bicaraho bari kwiga, barimo bareba bagenzi babo bari mu ishuri babarebera mu madirishya.

Abanyeshuri bahetse ibikapu bari kujya ku shuri, bagiye kwiga bambaye imyenda kandi y'ishuri ifite ibara ry'ubururu, hasi hari amajipo, amapantaro ya kaki, bari ku murongo, abasore bari imbere n'abakobwa bari inyuma.

Urusengero rw'abakristo abakozi b'Imana, aho ruriho icyapa cyanditseho EAR do Shyira akaba ari paruwase ya busengo, kikaba kimanitse mu mutwe w'urusengero, kugira ngo kijye kiyobora abatambuka, kimenyeshe n'abantu badasanzwe bahagenda icyo iyo nzu yitiriwe izina ry'Imana ikora.

Abanyeshuri bahagaze ahantu mu kibuga kirimo ibyatsi, higanjemo abakobwa n'abasore bambaye amashati n'amajipo n'amapantaro kandi bigiye biriho kashe z'ikigo bigaho, bakaba bari kumwe na mwarimu wabo, umwana umwe mu biga afashe ihene mu ntoki, ikiziriko kiri mu ijosi kandi inyuma ye hari umugabo na we wambaye ikote.

Icyumba bararamo kirimo ibitanda bibiri biteganye n'utubati n'ameza, bikaba bishashe bishashishijweho amashuka ariko ntamuntu uryamyeho nta n'ikindi kintu kiriho ahubwo biri byonyine.

Imodoka itwara abagenzi ariko ikaba yanditseho Kaminuza y'u Rwanda, ikaba iparitse itarimo igenda nta muntu wicayemo nta n'umushoferi kandi ikaba itanogeje ngo ibe ikoreye isuku.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda, aho abanyeshuri bigira bavuye muri segonderi barangije icyo kiciro cyaho, ikaba isize amarangi kandi ifite uburyo bwo gucunga umutekano buzwi nka kamera zigiye zimanitse ku bikuta.

Inama yahurije hamwe abagabo n'abagore bakaba bicaye mu nyubako mberabyombi, ikizwi nka sale mu ndimi z'amahanga. Noneho hakaba hari uri gutanga ikiganiro uhagaze imbere, abandi bicaye bamukurikiye bagiye bafite mudasobwa imbere yabo ku meza.

Inzu mberabyombi irimo intebe zitenze ku murongo kandi yubatse neza, ikoze neza, akaba ari ahantu abantu bahurira ari benshi kugira ngo bajye inama cyangwa se bahabwe amabwiriza agenga aho bakorera.

Ameza ariho amasahani ariho ibyo kurya bigiye bitandukanye by'amoko anyuranye, afite n'ibyuma byo gukata inyama, hakaba n'ibikombe by'ibirahure birimo amazi n'ibindi binyobwa binyuranye, byose bigira ngo igogora rigende neza.

Inyubako nini, inzu mberabyombi iri kuberamo inama, aho abantu bicaye hamwe imbere ku murongo kandi mu ntebe zimeze neza z'imisego, imbere yabo hicaye abayobozi bane, barimo babaha ikiganiro.

Abaganga batatu bicaye hamwe bambaye amataburiya y'umweru na ga mu ntoki zibafasha kwirinda, barimo batenga imiti ku murongo bayitunganya kugira ngo izifashishwe mu kuvura abarwayi bafite uburwayi bugiye butandukanye mu mibiri yabo.

Intebe ebyiri zigezweho ziteye zirebana munsi y'ameza, kandi hakaba hariho igikombe hejuru ku meza, ndetse n'agakapu bakunze gutwaramo mudasobwa.

Inyubako ndende igeretse inshuro eshatu, ikaba izengurutswe n'ibyuma. Hari inzira y'abanyamaguru iruhande rwayo ndetse n'amatara menshi. Hakaba n'ubusitani bwiza bukoze neza buriho indabyo n'ibindi byatsi bitandukanye.

Icyumba kinini, inzu mberabyombi iri kuberamo inama yahuje abagabo n'abagore bicaye, imbere yabo hari umuyobozi arimo abagezaho ikiganiro n'icyo inama iri kwigaho muri rusange, kugira ngo babashe gukora no kwiteza imbere no gushyira mu bikorwa inshingano bafite.

Muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda Ishami rya Huye, iherereye mu karere ka Huye, Intara y'Amajyepfo, icyapa cyanditseho ikirango kigaragaza ino kaminuza, kikaba cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru yitwa: Batiment central, kikaba kiri mu marembo kugira ngo kiyobore abantu bahageze, bahite bamenya aho bari aho ariho.

Inyubako yubatse ahantu hirengeye cyane, iriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru hejuru yayo, yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari inyubako y'ibiro by'ubuyobozi, hariho amadirishya y'ibirahure ndetse inyubako isize irangi ry'umukara.

Inyubako ishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye ndetse igaragaza ko ari Kaminuza y'imyuga ya Kitabi, hakaba hari imashini irimo abantu babiri, zimwe zikoreshwa mu gukora umuhanda cyangwa mu gukora ahantu hatameze neza, hakaba hashushanyijeho n'inzoga.

Ibitanda bigekanye biri mu cyumba kimwe hasi ikindi hejuru, inyuma yabyo ku musego hari ishusho y'umuntu kandi bikaba biriho imisego ibirambitseho bifite n'amashuka abishashe agiye atandukanye.

Inzu yubatse neza nini ifite amadirishya y'umweru n'inzugi z'umweru n'amarangi atandukanye, imbere yayo hakoze neza imbuga itatse neza kandi ikoresheje amapave ku buryo ubona ko ari nziza cyane.

Inyubako yubatse neza kandi ifite amarange atandukanye n'amadirishya y'ibirahure, isakaje amabati, imbere yayo hari ikibuga aho bakorera imyitozo ngororamubiri, bahakinira umupira w'amaboko uzwi ku izina rya voriborol mu ndimi z'amahanga kandi imbere yayo hari n'amajaride arimo ibyatsi.

Isomero rinini ririmo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye kandi hakaba ari aho abantu bajya kwicara bakiga kugirango babashe kunguka ubumenyi, bagasoma ibitabo byinshi bitandukanye kandi bakahabonera n'ubundi bumenyi butandukanye.

Mu nyubako nini, sare mberabyombi, hari kubera inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, ingeri zinyuranye, b'abagore n'abagabo n'abakobwa, bicaye bose barimo bumva ikiganiro cy'uwayitumije, kugira ngo babashe kumenya icyo yabahamagariye.

Inyubako yubatse neza isize amarangi y'umweru n'andi atari umweru, ifite igiti imbere yayo ifite n'ijaride kandi ikaba yubatse ku buryo buzwi nka etaje aho imwe iba igiye yubatse hejuru y'indi, y'indi, gutyo, gutyo, zikaba ndende cyane.

Mu ishuri ahatangirwa ubumenyi, ahari agatoti kifashishwa barimo bigisha baterekaho mashini cyangwa se porojegiteri kugira ngo ibashe gutanga amashusho, abanyeshuri babone ibyo bari kwiga neza ku buryo babasha kubisoma no kubyumva babireba.

Abantu benshi bicaye mu nyubako nini; inzu mberabyombi, ahari kubera inama, abayobozi bicaye imbere barimo bahereza abayoborwa ikiganiro, abandi nabo bateze amatwi bakurikiye kugira ngo bagire ibyo baganiraho n'ibyo bumvikanaho, babashe gusohoza imigambi yabo.

Inyubako yubatse neza kandi imbere yayo hakaba hateye ibiti, ifite amasikariye maremare agiye kumanukwaho n'umugabo uhagaze wambaye ishati n'ipantaro y'umukara kandi hepfo yayo, hakaba hicaye umugore uteruye umwana, hirya yawo mu tujaride duhari, hakaba harimo undi mukobwa na we urimo agendagendamo.

Inyubako ngari ifite amarangi y'umuhondo, umweru, ndetse biragaragara ko igeretse, kuko hejuru ku gisenge ni ho hariho ibindi, ubona ko hejuru hariho indi nzu, hariho amatara menshi.

Inama yitabiriwe n'ingeri nyinshi zitandukanye: abagabo, abagore, abakobwa, hakaba harimo n'abasore, bakaba bari gukoresha porojegiteri, baporojegita amajwi, kugira ngo babashe kumva banareba amashusho, imbere yabo hakaba hari umuyobozi w'inama, bose bamuhanze amaso, bamukurikiye, kugira ngo hatagira utaha atumvishe icyo batumirijwe.

Ikigo kirimo amahema abiri ndetse n'imodoka, biragaragaza ko habaye ikirori runaka hakaba hari abantu bambaye ibibaranga ibyo barimo gukora.

Mu nyubako nini mu cyumba mbera byombi, ahari kubera inama yahurije hamwe abanyeshuri n'umuyobozi wabo abahagaze imbere arimo abaha ikiganiro, mu mpande hateretse indangururamajwi zibafasha kugira ngo bose bumve neza.

Parikingi iparikamo imodoka za kaminuza, aho hari ebyiri zihahagaze n'indi ku ruhande ifite ibara ritukura, zikaba zitarimo abagenzi nta n'umushoferi uzirimo kandi zose zikaba zireba mu cyerekezo kimwe.

Inyubako zo muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye zifite ubusitani imbere yazo, zikaba ziteyemo n'ibiti kugira ngo bijye biha abanyeshuri uburyo bwiza bwo guhumeka, hakaba hari n'intebe yicayemo ushinzwe umutekano uzwi ku izina ry'ubusekirite.

Inzu mberabyombi, inyubako nini cyane irimo abantu bahagaze b'abasore, umwe wahetse igikapu, abandi bambaye inkweto zifunguye, abandi bakaba bambaye izifunze, bakaba bameze nk'abategereje igikorwa kigiye kuba.

Mu ishuri rinini aho abanyeshuri bahurira kugira ngo bahabwe ubumenyi n'abarezi babo bashinzwe kubigisha, kuko babihuguriwe bakaba babifitiye n'ubushobozi, rikaba ririmo intebe kandi mu madirishya harimo ibirahure nta munyeshuri wicayemo.

Umugabo wambaye amarineti, ahagaze imbere y'abandi, bigaragara ko ari abanyeshuri bambaye imyenda isa, ari gukoresha icyuma cy'ikoranabuhanga cyerekana amashusho, bigaragara ko ari kubasobanurira.

Muri resitora aho abantu bahurira buri wese akarya icyo ashaka n'icyo ashoboye kwishyura, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu barimo barya batandukanye bicaye mu matsinda bamwe bari kunywa abandi barimo barebana baganira bigaragara ko ari nk'igikorwa nyamukuru cyabahuje.

Muri kantine aho bacururiza ibiryo n'icyayi n'amata n'amandazi n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye umuntu yafata agahita arya ku buryo bwihuse, harimo abantu batandukanye barimo barya buri wese yicaye ku meza ye ari kumwe na mugenzi we kugira ngo babashe kwiyakira.

Mu ishuri aho mwarimu ahurira n'abanyeshuri akabigisha kugira ngo bagire ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye babashe gusobanukirwa, aho barimo biga abana bicaye imbere, bamwe bafite amatelefoni bari kuyarebamo, abandi batari kuyarebamo, bakurikiye mwarimu uhagaze imbere yabo arimo abigisha.

Imodoka ebyiri ziparitse hamwe, iy'umutuku n'iy'umweru, imbere yaho hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu handitseho amagambo y'umweru, bigaragara ko ari icyapa kiranga ko ari kuri kaminuza.

Icyumba cyubatse neza, gifite amarange atandukanye, kirimo amakaro hasi kandi kirimo utubati mu mpande zacyo, tukaba na two tugiye dufite amarange atandukanye, hejuru yatwo hari udukarito turimo ibintu bitandukanye.

Ishuri rinini rifite ikibaho imbere yaryo cy'umukara n'icyumweru ndetse rimanitsemo porojegiteri rikaba ryifashishwa mu gutanga ubumenyibuha abanyeshuri, butangwa na mwarimu rikaba ririmo intebe ziticayeho abanyeshuri.

Amashuri ya kaminuza yubatse ku buryo bwa etaje, aho agiye agerekanye, akaba afite urupangu, afite n'indabyo, ku ruhande kandi hakaba harimo n'inzira inyuramo abanyeshuri ikoze yubakishije amapave.

Inkweto ziteretse hasi z'amoko agiye atandukanye, ziri mu cyumba aho barara, hari ibitanda bibiri bigerekanye biriho amashuka, kimwe hasi ikindi hejuru, n'umugezi bifashisha bavoma amazi yo kunywa, n'ayo gukaraba kugira ngo bimakaze isuku.

Mu cyumba cy'abanyeshuri ahari ibitanda bibiri n'akabati na tremus n'inkweto n'imyenda, aho buri mukobwa yicaye ku gitanda ke afite mudasobwa mu ntoki n'ikayi arimo yandika asubiramo amasomo yigishijwe mu ishuri.

Ikigo cy'amashuri gifite imbuga yubatse neza, ikoze neza ikoresheje amapave abumbye neza kandi hakaba hari umugezi wo gukaraba abantu bakinjira kugira ngo birinde umwanda uteza indwara z'ibyorezo nka Covid yugarije isi muri iki gihe.

Inzu iri kubakwa n'abantu batatu, undi ahagaze inyuma yabo arimo abitegereza, yambaye ijiri n'ingofero y'umweru, abandi na bo babiri bafite imyiko mu ntoki iriho sima, undi afite inivo yayishyizeho, arimo asuzuma ko bimeze neza.

Ibibuga byegeranye byubatse mu buryo bukorotiriye kandi bipavomye, ni ibibuga by'imyidagaduro, aho bakiniramo imikino y'intoki hagiye harimo amatara muri ibyo bibuga ndetse hirya yaho hari inyubako nini cyane.